Ubuhinzi ni bwiza cyane aho iyo twabukoze dukenera n'imiti yakorewe mu nganda, kugira ngo tuzayifashishe twica udukoko dutera ku myaka, kugira ngo izakure neza maze iduha umusaruro ushimishije.

Gukora ubuhinzi ni ingirakamaro, aho iyo ibyo twahinze byamaze kumera, bigomba guterwa umuti kugira ngo bibashe gukura neza, bizira ibyonnyi, bikazatanga umusaruro ushimishije, mu gihe kiri imbere.

Kurya intungamubiri ni byiza cyane. Nko kurya amafi, aho aba yarororewe mu mazi, tukakateka neza, tugashyiramo n'ibindi birungo, kugira ngo tubone intungamubiri nyinshi zikungahaye kuri vitamine. Turusheho kugira imirire myiza.

Amafi ni kimwe mu biribwa bigira vitaminini nyinshi. Aho tuyaroba mu biyaga bigiye bitandukanye. Maze tukayajyana ku masoko ,abakeneye bakayagura bakajya kuyarya. Aho aba akungahaye kuri vitamine zirimo intungamubiri nyinshi.

Uburobyi ni ingirakamaro cyane, aho insambaza baziroba mu mazi, bakazishyira ku dutanda twabugenewe, kugira ngo zume, maze bazazigurishe, abazikeneye bazazigure bajye kuzirya, kuko zikungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Uburobyi ni ingirakamaro cyane, kuko ari umwuga utanga amafaranga menshi, aho baroba nk'isambaza maze bakazigurisha. Abazikeneye bakazirya ku mafunguro yabo kuko zibamo vitamine nyinshi. Maze bagakura bafite imirire myiza.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, nko gukora ubuhinzi bw'ibiti bitanga imbuto zigiye zitandukanye, aho ababukora babona amafaranga menshi aturutsemo, maze bakiteza imbere bakora ibindi bikorwa bitandukanye, bibafasha kwizamura mu mibereho yabo.

Gutegura umurima uzahingwamo imyaka itandukanye ni byiza cyane aho n'ibirimo tugomba kubihingira neza nk'insina , kugira ngo ibyo tuzatera bizakure neza ,ndetse n'insina zizaduhe umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi ni bwiza cyane nko gukora Ubuhinzi bw'imbuto nk'imyembe. Aho iyo yeze tuyipakira tukayijyana ku masoko, kugira ngo tuzabone amafaranga yo kwifashisha dukora ibindi bikorwa bitandukanye.

Ubuhinzi ni ingirakamaro, aho abahinzi bahurira hamwe, baje kureba umusaruro wabo, maze bakareba nimba bawusarura, cyangwa nimba ubura igihe gito ngo were, kugira ngo bafatire hamwe umwanzuro ukwiye.

imbuto ni ingirakamaro cyane ku mubiri wacu kuko zibamo vitamine nyinshi zigiye zitandukanye. zitumaga dukora neza, kandi tukabona n'intungamubiri nyinshi ziturutsemo. Kandi abazicuruza babona amafaranga menshi yaziturutsemo, maze bakiteza imbere, babikesha ubwo bucuruzi.

ibihingwa ngandurarugo ni ingirakamaro, aho dusangamo ibijumba. Aho ari ikiribwa gikenerwaga mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo kidufashe kunoza imirire yacu maze dukore neza kandi dufite imbaraga, kuko kiba gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi.

Ubuhinzi ni ingirakamaro . Nko gukora ubuhinzi bw'urusenda na puwavuro kuko bibamo amafaranga menshi ,bakaba banazigemura mu mahanga ,maze abazihinga bakabona amafaranga menshi aturutse muri ubwo buhinzi.

Ubuhinzi ni bwiza cyane, nko gukora ubuhinzi bw'ibigori, aho iyo bimaze gukura tubitera imiti itandukanye, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, bizira icyonnyi itandukanye, maze tukazabaho twishimye kubera umusaruro twabibonyemo.

Mu bihingwa ngandurarugo, habamo ibintu bigiye bitandukanye ,nk'ibijumba aho byifashishwaga babirya , ibindi bakabijyana mu masoko atandukanye . Ababikeneye bakabigura nabo bakajya kubirya iwabo mu ngo, maze ababigurishije bakabona n'amafaranga bifashisha bakora ibindi bikorwa.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane, nko gukora ubuhinzi bw'imyumbati, aho iyo yeze itanga umusaruro, abayihinze bakabona ibyo barya mu ngo zabo, iyindi bakayijyana mu nganda, bagatunganyamo amafu atandukanye.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, nko gukora ubucuruzi bw'amatungo magufi nk'intama, ni ihene, aho tuyajyana mu isoko abayakeneye bakayagura, maze bakajya kwiyoroza bakiteza imbere n'abayagurishije bakabona amafaranga, bifashisha mu bindi bikorwa byabo.

Ubucuruzi buba bwiza cyane nko gucuruza inyanya, intoryi, insenda, aho abazikeneye baza kuzigura, maze bakajya kuzirya, maze bakaduha amafaranga twifashisha mu bindi bikorwa bitandukanye.

Imboga ni kimwe mu biribwa dukenera buri munsi, nko kurya amashu aho amashu tuyasangamo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, maze twazirya tukarushaho kugira ubuzima bwiza bityo tukabaho tutarwaragurika.

Ubucuruzi ni bwiza cyane nko gucuruza ibiribwa abantu bakunda gukenera harimo nk'umuceri, amavuta, isukari, umunyu, ubunyobwa, maze ubicuruza akabona amafaranga yaturutse mubaje kubihaha.

Ubuhinzi ni bwiza cyane. Nko gukora ubuhinzi bw'imbuto nk'avoka, aho iyo zeze tuzipakira tukazijyana mu bihugu bigiye bitandukanye, maze abazihinze bakabona amafaranga aturutse mu mwuga bakoze bakiteza imbere, bakora ibindi bikorwa bitandukanye.

Imbuto ni kimwe mu bintu by'ingirakamaro. Nko kurya amatunda, aho aba afite vitamine nyinshi, maze abayariye bakarushaho kugira ubuzima bwiza kubera ko aba akungahaye kuri vitamine.

Mu biribwa dusangamo ibintu bitandukanye:nk'amakaroti, pavuro ndetse n'izindi mboga zitandukanye ,aho tuba tugomba kuzibika neza kugira ngo zitangirika ,maze abazikeneye bakaza kuzigura ,tukabona amafaranga aziturutsemo.

Ukora ubuhinzi ni ingirakamaro cyane, nko guhinga imbuto z'amatunda, aho uzihinga yiteza imbere, biturutse mu mafaranga abona, mu musaruro w'amatunda, kandi amatunda avamo vitaminini nyinshi, ku bantu bayarya.

Umwuga w'ubucuruzi ni mwiza cyane, kuko uteza imbere umuntu uwukora. Nko gucuruza ibiti bashingiriza imyaka, igiye itandukanye, nk'ibishyimbo, maze ababiguze bakajya kubishingirira, bigakura neza, n'abagurisha bakabona amafaranga menshi cyane bakiteza imbere.

Mu myaka dusangamo amoko agiye atandukanye, harimo n'ibishyimbo, aho bigira amabara agiye atandukanye, kandi bikera mu buryo butandukanye, aho ababikeneye babigura bakabihinga cyangwa se bakabigura bagiye kubirya, maze bakabona intungamubiri nyinshi zivuye muri ibyo bishyimbo.

Ibishanga ni kimwe mu biduteza imbere nk'ibishanga bifite amazi, aho babihingamo umuceri, babitunganya neza bagashyiramo amazi ahagije kugira ngo bazawuhingemo were neza ,maze abahinzi bawujyane ku isoko babone amafaranga maze biteze imbere.

Ubuhinzi ni ingirakamaro cyane ku bantu babukora ,nk'iyo hasaruwe ibigori aho bihurizwa hamwe maze bakabibika ,kugira ngo igihe cy'ihinga nikigera bazabifate bongere bahinge ibindi babije, mu nganda bakoremo ibintu bitandukanye harimo amafu.

Iyo wahinze umusaruro ukaboneka uba ugomba kugosorwa, maze ukabikwa kugira ngo utangirika, ibindi bikajyanwa ku isoko maze ababikeneye bakabibona bitabagoye.

Guhinga ibihingwa bitandukanye bituma tubona ibyo turya iwacu mu rugo, nko guhinga ibishyimbo iyo byeze tubisoroma tukajya kubitekamo intonore, maze tukabona ibyo turya mu ngo zacu.

Ubworozi ni ingirakamaro cyane . Aho ukora ubworozi bw'amatungo magufi, nk'amahene aho agomba kujyanwa mu rwuri kugira ngo arishe azungure nyirayo ,maze akure neza kandi nagira ikibazo abaveterineri babyigiye bazayavure maze akure atarwaragurika.

Ubworozi ni bwiza cyane. Nk'ubworozi bw'amatungo maremare, harimo nk'inka, aho zigomba kujyanwa mu gikuyu kirimo ubwatsi, kugira ngo zirye zihage neza, kandi n'abavuzi b'amatungo bakazitaho, kugira ngo zitarwaragurika.

Inyamaswa ni ingirakamaro cyane, aho ziba muri pariki, aho dusangamo nk'inyoni zigiye zitandukanye z'ibisiga. Kuko zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize, igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo, kandi ni ngombwa ko tuzibungabunga kugira ngo zitazazima.